Ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, gifite amabara atatu atandukanye ariryo icyatsi, umuhondo n'ubururu, kikaba cyandikitswe mu magambo y'ubururu.

Ipironi ry'amashanyarazi rishinzwe kugezaho abaturage umuriro w'amashanyarazi. Ikaba ikikijwe n'ibiti by'icyatsi.

Umuntu wambaye ipantaro y'ubururu n'ikote ry'ubururu, uri ku rwego, uri ku ipoto ry'amashanyarazi, ashyiraho insinga kugira ngo ageze ku baturage.

Abagabo batatu umwe n'wakoze icyaha, babiri bambaye imyenda y'umukara n'ishati y'umweru ni abashinjacyaha, abashinjuracyaha mu gihugu cy'u Rwanda, uwambaye iroza n'uwakoze icyaha bari gushinjura.

Uyu ni umugabo wirabura wambaye amarinete akambara n'ikote n'ishati y'umweru, akaba akikijwe n'ibara ry'icyatsi ririho amagambo y'umweru.

Umugabo wirabura wambaye rinete akaba ahagaze ku gikuta cy'umweru akaba yambayemo imbere ishati y'umweru n'ikote ry'umutuku ririmo n'umukara akaba ari umunyamategeko.

Aba ni abacungagereza bari kumwe n'abagororwa, abacungagereza bakaba bambaye kake, abagororwa bakaba bambaye iroza, hakaba n'abari kubapima bambaye umukara.

Iyi ni igazeti y'urwego rwo ku gihugu rwerekana umunyarwanda n'igazeti yemerera ubunyarwanda bw'ubwenegihugu, bwanditswe ku rupapuro rw'umweru rukandikishwa ikaramu y'umukara.

Umugabo wirabura, wambaye linete z'umukara, ishati y'umweru, ikote ry'umukara, akaba afite indangururamajwi, aho ari gutanga imbwirwaruhame.

Umugabo wigikara wambayemo imbere umupira w'umweru arenzaho umupira w'imbeho w'umukara uri mu ibara ry'umukara n'umutuku.

Ku muhanda aho hari urujya n'uruza rw'abaturage, hakaba hari umupolisi wambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'umukara n'ingofero y'umukara, akaba yambaye n'ijiri y'umukara n'icyatsi, akaba ari kumwe n'undi muntu wambaye ishati y'amakarokaro n'ipantaro y'umukara.

Amacupa y'imituku akaba afitemo puderi mo imbere, utwo bakandaho tw'icyatsi, ashinzwe kurwanya umuriro cyangwa inkongi y'umuriro ibaye mu gihe kititeguwe.

Uyu ni umupolisi uhagaze ku muhanda yambaye inkweto z'umukara, ipantaro y'umukara, n'ijiri y'umukara iri mu ibara ry'umuhondo, ryanditseho porice akaba yambayemo n'ingofero.

Abaturage bari muri gahunda yo kwamamaza abakandida, bakaba ari abakandida bari ku mpapuro z'umweru, bazifite mu gatuza kabo.

Umugabo mubona w'igikara wambaye rinete z'umukara n'umupira w'umweru, ni Perezida Paul Kagame, yari ari kwiyamamaza ari kumwe n'ishyaka ryitwa FPR.

Mu muhanda w'umukara, hari ibinyabiziga bibiri, kimwe gitwara mu ibara ry'icyatsi, kimwe gitwara ba mukerarugendo cyo mu ibara ry'ubururu, gishinzwe gutwara ibintu n'abantu mu ngendo zitandukanye. Mu muhanda w'umukara harimo abaturage.

Urujya n'uruza ku muhanda wa kaburimbo, urimo ikinyabiziga gifite ibara ry'icyatsi n'umweru, n'abanyamaguru bambaye ipantaro y'umukara, n'ishati y'umweru, n'umunyegare uri ku kinyabiziga k'igare.

Ikinyabiziga kiri ku muhanda w'umukara, hakaba hari ibiti bikikije uwo muhanda, kikaba kiri mu ibara ry'umuhondo n'umweru, kikaba gishinzwe ubwikorezi bw'ibintu bitandukanye.

Ku muhanda w'umukara hari ibinyabiziga bigiye bitandukanye. Ikinyabiziga kirimo umweru na oranje, kindi gisa n'ivu ryijimye, umugabo wirabura ufite ikinyabiziga cy'igare rihetse ibintu.

Urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ikinyabiziga cy'umutuku cyikoreye umucanga, hejuru hariho ikiwupfundikiye cy'umweru aricyo shitingi, akaba ari imodoka ishinzwe gutwara ibintu.

Aha ni ku muhanda w'umukara hari ibinyabiziga bigiye bitandukanye ikinyabiziga cy'amaguru abiri kiriho umumotari wambaye ijiri y'umuhondo hakaba nundi uwatwaye yambaye umupira w'umukara, hakaba hari ari ikindi kinyabiziga kimwegereye cy'amapine cy'umukara.

Mu ihuriro ry'binyabiziga n'abaturage, hari ibinyabiziga by'umweru, bifite irangi ry'umuhondo, abantu bambaye ipantaro y'umukara, ishati y'ikigina, ingofero y'umutuku, umupira w'umukara.

Aha ni muri kaburimbo, hari urujya n'uruza rw'ibinyabiziga, harimo ikinkinyabiziga kiri mwi ibara ry'umutuku cyikoreye umucanga kiri muri kaburimbo, na moto itwaye abagenzi.

Umuhanda w'umukara urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye hakaba harimo ikinyabiziga cy'amapine ane gifite ibara ry'umweru, n'ikinyabiziga cy'umutuku cy'amapine abiri gihetse umuntu umwe n'umushoferi wacyo.

Uyu ni umuhanda urimo abantu, ibinyabiziga n'icyapa cya mirongo ine kigaragaza umuvuduko, ikinyabiziga kirimo gifite ibara ry'umukara n'ikindi kinyabiziga kirimo gifite ibara ry'ubururu n'umukara.

Umuhanda wa kaburimbo, hari urujya n'uruza rw' ibibinyabiziga bigenda bitandukanye, ikinyabiziga cy'umutuku, iyabiziga cy'umweru, n'ikinyabiziga cy'amapine abiri kiriho abantu babiri, utwaye n'uwo batwaye.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru kikaba gifitemo imbere ibyatsi amazamu afite amapoto y'umweru akaba afite n'inshundura z'umweru.

Iki ni icyapa cyerekana umuvuduko ntarengwa, kiri mu ibara ry'umweru, umutuku n'umukara, harimo umubare mirongo itandatu w'umuvuduko ntarengwa.

Iki ni igikuta kiriho icyapa cy'umweru, cyandikishijeho inyuguti iri mu magambo y'umukara, kiranga umuhanda w'ijana na mirongo inani na gatanu.

Amatara, cyangwa indangacyeyerekezo, y'umukara, harimo, umuntu, utambuka. Hakaba harimo, umunota mirongo itatu, nine, ibiti, amapoto.

Icyapa kiri ku muhanda cyerekana aho ugeze n'ukuntu ugomba kwitwara, kiri mu ibara ry'umutuku n'umweru ni mpande eshatu, umutuku uri muri mpande eshatu, n'umweru uri muri mpande eshatu n'imbere yaho.

Icyapa kiburira cyerekana ko imbere hari umuhanda w'ikorosi kikaba kiri mu buso bw'umweru, kikaba ari mpande eshatu zigizwe n'umutuku, kikaba gifite ikirango cyerekana ko hakata hari ikorosi kiri mu ibara ry'umukara.

Aha ni i Remera harimo inzu zitandukanye, harimo inzu zicyubakwa, harimo n'inzu zuzuye. Izuzuye zifite amabati atukura n'amabara y'umweru hakaba harimo n'ibiti bihakikije.

Izi ni inzu nyinshi zigizwe n'amabati y'imituku, ariko hari n'indi imwe igizwe n'ibati ry'umweru ikikijwe na senyenge, harimo ibiti, harimo iminara.